Icyumba kigari kinini kandi gisa neza kirimo intebe zifite ibara ry'umutuku, bigaragara ko iki cyumba cyakira ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, harimo abantu benshi biganjemo urubyiruko bishimye cyane.

Uburyo bworoshye wakoresha kugira ngo ngo ufungure konti muri sisiteme y'irembo. Ushobora gukoresha telefone cyangwa mudasobwa yawe. Irembo ni uburyo bwashyizweho na leta, aho umuntu asaba kandi agahabwa serivisi ya leta bidasabye kujya gutonda umurongo kuri icyo kigo asabaho serivisi.

Umusore mwiza uri imbere ya mudasobwa yambaye amarinete, ingofero ndetse n'ijire, imbere hari umukobwa bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gufata amajwi kugira ngo babe bakora indirimbo.

Ibitaro bisa neza birimo ibitanda bigezweho ndetse n'amamashini agezweho, aha ahantu hakunda kurwarira abantu bafite uburwayi bukomeye, aho bitabwaho cyane n'ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'abaganga b'inzobere mu gihugu.

Abaturage benshi bitabiriye inama, imbere yabo hari abayobozi bari kumva ibibazo byabo, inteko y'abaturage ni bumwe mu buryo bwashyizweho na leta kugira ngo bihutishe urwego rw'imiyoborere mu Rwanda, aho abayobozi bamanuka hasi kumva ibibazo by'abaturage barangiza bakabishakira n'ibisubizo.

Abantu benshi bambaye imipira isa, ingofero zisa ndetse bafite n'udupapuro dusa, bigaragara ko bari kwamamaza umukandida Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umuryango wa efuperi inkotanyi, umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kane mu Rwanda, habaye amatora yo gutora perezida wa Repubulika.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Gukora umurimo wo gutwara abantu kuri moto. Bigaragara ko ategereje umugenzi. Iki gikorwa cyo gutwara abantu kuri moto, gikorwa n'abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Aho abarenga ibihumbi ijana batunzwe n'uyu mwuga.

Inyubako nyinshi zagenewe ubucuruzi harimo imyenda, ndetse hari n'inyubako igaragaza ko icuruza ibikomoka ku mata mu Rwanda inyubako nyinshi z'ubucuruzi ziba zegereye umuhanda cyangwa se ikindi gikorwaremezo gikomeye.

Nk'uko idolari ry'amerika rikomeje gutera imbere no kuzamuka, ni nako ifaranga rikoreshwa mu gihugu cy'ubushinwa riri mu moko atanu harimo amafaranga ari mw'ibara ry'ubururu n'icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara. Bikaba bivugwa na meya w'akarere gashinzwe kubungabunga ibikorwa remezo.